Uburezi bw'abana b'inshuke ni kimwe muri gahunda Leta yashyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo babashe kwiga, ubuzima bugende neza kandi kwiga bakiri bato kugira ngo babashe gufata, barangize hakiri kare, bakorere Igihugu na bo ubwabo, iterambere rirusheho kwiyongera.

Uburezi bw'abana b'inshuke ni uburezi bufashwa n'uko ababyeyi bita ku bana babo bakabagemurira ibibatunga ku ishuri nk'abana kuko baba bakiri bato bakabaha igikoma aha niho ubona babasha kubazanira ibatunga mu nkongoro zabugenewe byitwa nk'amagurude cyangwa se ibindi bibikwamo ibyo kurya by'abana bakabasha kwiga neza batuje kandi batekanye.

Uburezi bw'abana b'incuke. Uburezi bw'abana b'incuke ni bumwe mu burezi bukwiye kwitabwaho cyane kuko bibasha gukangurarira imikurire y'umwana akiri muto; bityo agakura akunda ishuri kandi asobanukiwe neza n'ibyo yiga, twifashishije ibishushanyo bishya by'umubiri, tukifashisha ibintu bitandukanye n'imfashanyigisho bituma umwana abasha kumva kandi agafata neza vuba bitamugoye, birimo kumwereka amashusho tukagashanya ku bikuta n'ibindi.

Amashuri y'inshuke ni amwe mu yigishwa abana usanga berekwa udushusho tw'inyamaswa dutandukanye, utuvidewo n'udufilimi tw'inyamaswa ugasanga bibanezeza kandi bashimisha cyane. Ni byiza rero kwita ku myigire y'abana b'ininshyuke tubashakira ibibafasha mu imfashanyigisho zitandukanye bityo uburezi n'uburere bukihuta.

Uburezi bw'abantu benshuke. Uburezi bw'abana b'inshuti, ni ngombwa kandi ni bwiza kubera ko niho abana bacu abasha gukura indangaciro zo gukunda ishuri twubaka kandi tukakoresha inyubako z'amabara menshi kugirango babashe kubikunda, bityo babashe kumenya mu buryo bworoshye kandi bumve, bakabasha kwigira ahantu heza kandi hatekanye kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza.

Uburezi bw'abana b'incuke, I uburezi bw'inshuke ni bimwe, niyo niryo tangiriro ry'uburezi ku mwana abakiri muto akibasha gufata mu mutwe bityo rero akwiye kwigishwa yerekwa amashusho y'ibigishwa harimo ibikubiye ibijyanye n'imirire, akamwereka ibirinda indwara , ibitera imbaraga, ibizana intungamubiri n'ibindi kugira ngo abashe gukura abizi amashusho ndetse nama n'uburyo byitwa umwana azakure.

Uburezi bw'incuke, uburezi bw'incuke ni hamwe mu hantu hakwiye kwitabwaho, haguzwe ibitabo by'amabara atandukanye kugira ngo abana babashe gukanguka kandi bige bishimiye ibyo biga, bingenda neza kurushaho.

Mu burezi bw'inshuke ni ahantu abana bakiri bato kuva ku myaka ibiri itatu kugeza kuri itandatu biga mu byiciro bitatu, ugasanga bagomba kwitabwaho, bashyirirwaho ibibashimisha, aho bakinira, n'ibindi byose bibafasha mu myigire yabo ya buri munsi ndetse n'imikurire.

Inyubako z'amashuri abanza ni hamwe mu amashuri abanyeshuri mu mashuri abanza bakorera, ugasanga igihugu gishyiramo imbaraga mu kubaka inyubako nziza, zigatera amarangi ahantu heza hasukuye, ugasanga abana bishimira imyigire, bigafasha mu iterambere ry'uburezi n'ibindi bitandukanye.

Uburezi bw'amashuri abanza buteye imbere n'igihe usanga ibyo kwigiraho bigaragaza amashusho akwiye abanashobora kwiyigiraho, bikagaragaza intebe nziza zo kwicaraho batekanye kandi batuje, amabara menshi yo gukoresha mu kugaragaza ibyigwa kugira ngo babashe gukanguka ubwonko bufate vuba kandi byoroshye.

Mu mashuri abanza niho abana bigira kwandika inyuguti zimwe na zimwe zo mu ndimi zitandukanye, aho usanga umwana yigishwa kwandika A, B akiga kwandika C,D,E na F n'izindi zinyuranye, ugasanga akura ariho avanye ubumenyi bw'ibanze bimufasha mu buzima bwa buri munsi n'ahazaza he mu bijyanye n'imyigire n'imyigishirize.

Uburezi, uburezi ni inkingi y'iterambere ry'igihugu, cyane cyane ubw'amashuri abanza, usanga abana agomba gutozwa byinshi bitandukanye nko kumenya kwandika, gusoma, kumenya kwifatira imyanzuro, kumenya kwibeshaho mu buzima busanzwe n'ibindi bitandukanye.

Amashuri ni amwe mu ho dukaromo ubumenyi butandukanye, igihugu rero kirimo kugenda gitera imbere aho uri gusanga amashuri abanza agenda yubakwa mu buryo bugeretse kugira ngo babashe kubakwa ahantu hatoya kandi bo ku mashuri menshi atandukanye niyo mpamvu uburezi burimo bwitabwaho biririmo mu ikoranabuhanga, mu busitani bwiza n'ibindi bitandukanye.

Uburezi. Uburezi bw'amashuri abanza ni ingenzi cyane kuko niyo nkomoko y'ubumenyi umuntu aba azagira n'urugendo rw'iterambere rye, niho amenyera kwandika, gusoma, ndetse no gusoma ibitabo by'inkuru zishushanyije, amashusho, imyandiko, n'ibindi bitandukanye kugirango umwana akanguke ubwonko amenya gusoma neza kandi yihuta, bityo agire iterambere muri we n'igihugu muri rusange gitera imbere.

Uburezi, uburezi ni ikintu cy'ingenzi kuko buri wese abasha kurerwa, ugasanga yamenye gusoma no kwandika, cyane cyane amashuri abanza n'ayisumbuye, aho amashuri abanza usanga tuhigira byinshi bitandukanye nko kumenya inyuguti zigize indimi zitandukanye nk'ikinyarwanda n'ibindi bitandukanye, tukagira uburere mbonera gihugu, imibanire myiza, y'uburere mbonera gihugu bw'igihugu cyacu n'ibindi bitandukanye.

Uburezi. Uburezi ni imwe mu nkingi z'iterambere zigize igihugu cy'u rwanda ndetse na'afurika muri rusange ndetse no ku isi, kubera ko ni hamwe muho tubonera indangagaciro n'uburere mboneragihugu, tukabasha ibizatuma tubaho neza nko kwiga ibijyanye n'amafaranga, tukabasha kwiga ibigize igihugu cyacu ndetse n'indangagaciro zikiranga, cyane cyane amashuri yisumbuye ndetse n'abanza ndetse n'ay'incuke.

Uburezi bw'amashuri abanza ni hamwe bamwe mu batangirwa uburezi, aho usanga abana bahabwa ibikinisho bitandukanye mu mabara menshi, bakiga kubara, bakiga kubitondeka, bakiga kubivuga, bakiga amoko y'amabara n'ibindi bitandukanye, bityo bagakora bajijutse kandi basobanukiwe byinshi.

Uburezi bw'amashuri abanza, ni hamwe mu hantu hatangirwa inyigisho nyinshi, abana bahabwa ibintu byinshi byo kubara, biri mu mabara atandukanye nk'ubururu, icyatsi kibisi, umutuku, bagakoresha amakereyo mu gihe cyo gushushanya, bikifashisha amakayi, bakigishwa amasaha, bagahabwa ibitabo byo gusomamo amasaha no kuyamenya n'ibindi.

Uburezi. Uburezi bw'amashuri abanza, uburezi bw'amashuri abanza ni ngombwa kugira ngo bwitabweho, kugira ngo abana babashe kwitabwaho kwiga ibibaho bandikiraho n'ibindi bitandukanye bibafasha mu myigire yabo, hakwiye kuba hatunganywa hagaterwa sima ku buryo babasha kuyitaho mu buryo bworoshye ugasanga ubuzima bw'abana mu ishuri bugomba kugenda neza kandi bakabasha kubaho neza mu buryo bukwiye.

Ibikoresho bitandukanye bigerwa mu mashuri abanza, aho usanga abanyeshuri bahiga bashiwajwe kugura ibikoresho bitandukanye n'ikibibika, kikaba gikubiyemo amarate, inshinge zo gushushanya zizwi nka kompa, zo gushushanya inziga, bakabasha kwigishwa imirimo itandukanye, kumenya gupima ubugari n'uburebure n'ibindi bitandukanye.

Amashuri abanza, amashuri abanza ni kimwe mu rwego rukwiye gushyirwamo imbaraga kugira ngo abana b'igihugu bagire ubumenyi, bajijuke, babashe kwiga ubuzima buzagende neza haba ubw'uyu munsi n'ubw'ahazaza, iki gihugu kigire abantu bajijutse babasha kugikorera mu buryo bworoshye kandi bwiza.

Uburezi bw'amashuri abanza ni uburezi bukwiye kwigishwamo ubufatanye budatsimburwa, gufatanyiriza hamwe no guhuriza ku ntego aho usanga habasha kwigishwa amashusho y'abantu bari kumwe bahuriye ku ntego bafatanyije yo guca umugozi w'inzitizi ziri hagati yabo ngo usanga babasha kugira iterambere ryihuse kandi vuba bafatanyije.

Uburezi bw'amashuri abanza, ni hamwe mu ho abana bahura bakidagadura, bagashyiraho imyicundo bazengurukaho, bikabashimisha kandi bikanezeza, ugasanga bahabwa uburere butandukanye, buririmo gusoma no kwandika, burimo kubasha gusabana n'abandi n'ibindi bitandukanye.

Uburezi ni kimwe mu nkingi y'iterambere aho usanga amashuri atandukanye, mashuri nderabarezi, ukongeraho titisi Matimba aho usanga abana bigishwa uburezi ko bazarera abandi ugasanga ari mu bintu byiza, aho usanga abahavuye baza kurera amashuri abanza ugasanga abana bahawe indangagaciro n'uburere n'abarezi bafitiye ubushobozi.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye ni uburezi aho abanyeshuri bicara mu mashuri bagahabwa ibiganiro byinshi bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi bakunguka ubumenyi buzabafasha bityo ingimbi n'abangavu bagakura bafite indangaciro n'uburere mboneragihugu kuko babitojwe mu mashuri.

Uburezi bwisumbuye, uburezi bwisumbuye ndetse ni ingenzi mu buzima kuko bufasha abana b'ingimbi n'abangavu gusobanukirwa byinshi bitandukanye, harimo amasomo bahabwa ku ishuri, inama bagirwa n'inzego z'umutekano nk'abapolisi, ababyeyi n'abandi.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye bumaze gutera imbere aho igihugu usanga gisigaye cyuyubaka inyubako zigeretse nziza ku buryo abanyeshuri bahigira batekanye kandi batuje ugasanga byoroshya kubona ubutaka bwo kubabukaho kubera ko iyo wubatse inyubako zigeretse usanga zubakwa ahantu hato kandi zikaba ari nyinshi ibyo ugasanga bizana umusaruro mwinshi kandi wihuse.

Amashuri yisumbuye n'ibigo byayo, ni kimwe mu bintu byihutisha iterambere ry'igihugu aho usanga akarere k'ibigo bitandukanye, ugasanga uturere nka Nyagatare n'utundi twinshi kugeza ku bigo by'amashuri yisumbuye ahatangirwa uburere mboneragihugu, inyigisho zitandukanye ku bana bayiga bityo bagakura bakora, batanga umusaruro ku gihugu ndetse n'abantu.

Bumwe mu burezi buhabwa abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, harimo ubujyanye n'amateka y'igihugu mu buryo byagenze, amateka yakiranze, amahano ya kigwidi harimo jenoside yakorewe abatutsi aho usanga uturere two tw'igihugu n'ibigo biturimo by'amashuri byashyizeho gahunda yo kwibuka aho usanga mu karere ka nyagatare bibuka jenoside yakorewe abatutsi ubure nta buri mpera z'umwaka ugasanga buri wese yamenye amateka y'igihugu cyaya.

Amashuri n'uburezi bwisumbuye ni kimwe mu bintu bigomba kubaho bikajirira abana n'abaturage b'u Rwanda kuko usanga abana bahageragimbi n'ubwangavugasanga bigenewe gukurikiranranawa no kwitabwaho cyane kugira ngo birenge ubuzima bwabo burengerwe kandi bashe gusobanukirwa byinshi kurushaho.

Uburezi bwisumbuye, uburezi bw'amashuri yisumbuye ni uburezi buhabwa umwana urangije amashuri abanza aho usanga agera mu yisumbuye agatangira kwigishwa bitandukanye harimo imibare n'ubugenge bitandukanye, ugasanga urwego ruha amahirwe abana b'abakobwa n'abahungu ahubwo n'abakobwa n'abahungu bashatse neza mu ishuri bakiga bakabasha kubona ayo mahirwe yo kubaho neza mu buzima.

Mu burezi habamo byinshi cyane, cyane mu mashuri yisumbuye na za kaminuza aho usanga abanyeshuri bajyanwa mu mazu y'ubushakashatsi bakerekwa amateka, ibikorwa byinshi binyuranye, amateka yaranze igihugu, bakerekwa ubushakashatsi bukorwa runaka ku miti amayalaboratwari n'ibindi byose bikabafasha mu kwiga ubumenyi no gusobanukirwa birushijeho.

Muri kaminuza n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, usanga bakayiga ibintu bitandukanye, aho usanga bahurira mu masare bafite imashini n'ibindi bitandukanye bungurana ibitekerezo kujyanye n'amasomo yabo, bakora imikoro bahawe n'abarezi babo bityo ugasanga ari ahantu ho guhuza abantu bite kandi bahuriye ku ntego imwe bikanatuma bongera imibanire myiza no kunguka ubumenyi kurushaho.

Kaminuza n'ibigo byigisha imyuga n'ubumenyingiro na'mwe mu mashuri usanga aganwa na benshi aho usanga leta ishyiramo imbaraga ikubaka inyubako zigezweho nk'inyubako zigeretse aho usanga nko mu karere ka nyagatare haba inyubako nini cyane yigirwamo na kaminuza y'u rwanda usanga abanyeshuri barazamuka amasikariye abandi bamanuka andi bajya mu ishuri kwitabira.

Amashuri. Amashuri makuru na za kaminuza, ni hamwe mu hantu h'ingenzi kuko usanga a tungukira ubumenyi butandukanye, bwaba ubwo gukoresha no gukora imashini zitandukanye, imashini zifashishwa mu ntambara, mu buhinzi, imashini zifashishwa mu buzima bwa minsi ya buri muntu, imashini zifashishwa mu bindi bikorwa bitandukanye, bityo tukabasha kuzikoresha no kuzikora mu buryo bworoshye kuko twahakuye ubumenyi buhagije muri za kaminuza n'amashuri makuru.

Kaminuza n'amashuri y'imyuga ni ahantu hatangirwa ubumenyi aho abahiga bagenda bakiga imyaka itatu cyangwa ine nyuma yo kurangiza iyo myaka bagakora ibirori byo kwishimira ko barangije aribyo bakunda kwita mihango ndimi z'amahanga graduration, ubundi ugasanga ubuzima ari bwiza.

Kaminuza n'amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro ni hamwe hamwe mu hantu haboneka ibikoresho bitandukanye, ahaba amazu akorerwamo ubushakashatsi n'isuzumiro aho usanga harimo ibikoresho by'indebakorere n'ibindi, abanyeshuri n'abandi bakeneye kubikoresha bakajyamo gusuzuma ibintu bitandukanye, barebera muri izo ndebakure ugasanga byongera ubumenyi ndetse n'ubushakashatsi bukagera ku ntego.

Kaminuza n'amashuri y'ubumenyi ngiro, kaminuza n'amashuri y'ubumenyi ngiro nimwe mu hantu hatangirwa ubumenyi ku rwego rw'ikirenga, aho usanga abanyeshuri baho iyo usoje amasomo yabo babasha kwishimira ugusoza kw'amasomo yabo, ugasanga bihuza abantu benshi bambika amakanzu atanga impamyabumenyi zabo mu buryo butandukanye.

Kaminuza n'amashuri y'ubumenyingiro, ni bimwe mu bintu bifasha igihugu mu iterambere mu buryo bwihuse, kubera ko usanga urubyiruko n'abandi bantu bakuze bajyamo bakunguka ubumenyi, bakabasha kwibeshaho bikorera ibibatunga, ibyo bakenera mu buzima busanzwe bakabasha kwiga inyubako, bakunnguka ubumenyi mu buryo bw'ubuzima busanzwe, uburere mboneragihugu, imibanire myiza n'abandi, n'imitekerereze, bityo ubuzima bukarushaho kuba bwiza.

Amashuri makuru, za kaminuza nay'imyuga n'ubumenyiyingiro, ni kimwe mu bintu bikwiye kwitabwaho muri ubuzima bw'igihugu n'iterambere, kugira ngo tubashe kwiga imibereho y'ibintu bitandukanye, twige ibidukikije, iyangirika ryabyo, ubutayu n'uko twaburwanya, kugira ngo igihugu kibashe kuba cyiza kurushaho, bityo kibungabungwe kandi kigire abantu batuje, batekanye mu by'ubumenyi n'ubwenge.

Kaminuza n'ibigo byigisha imyuga n'ubumenyi ngiro ni hamwe mu hantu hatangirwa ubumenyi butandukanye, aho muri kaminuza y'u Rwanda nk'ishami rya Nyagatare usanga abanyeshuri mu ishuri biga umwarimu akajya imbere, ukunze kwitwa lecturer mu indimi z'amahanga, akabigisha bicaye bamubona bakurikiye cyane abandi ukabona barangariye mu matelefoni n'ahandi ariko ukabona uburezi bugeze heza cyane.